Ubuhinzi ni bwiza mu gihe ibihingwa byawe wabyitayeho neza, wabihaye ifumbire nziza kandi nzima, kuko ibihingwa byacu bikura neza binogeye ijisho kandi bikagira umumaro ku mubiri wacu kuri buri muntu wese, Guhinga ni byiza...

Aba ni aba agoronomi bari baje kudusura ku mirima yacu bari bari kutwigisha ubundi buryo dushobora kuba twakita ku bimera byacu ku buryo byazamuka neza kandi bifite intungamubiri ihagije cyane.

Uyu ni umwe mu bagoroneme bacu badufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi mu buhinzi bwacu. Mu giturage cyacu aho twituriye i Butare baradufasha baduha imiti yo kwita ku bimera byacu. Hari bimwe biba byafashwe n'uturwara cyangwa se byatatswe n'utuzizi. Kandi ikindi kiza baduha n'imiti ishobora kuba yakica amamikorobe atuma ibimera byacu bitazamuka neza.

Aha ni hamwe tubika imiti idufasha mu buhinzi bwacu bwa buri munsi; harimo imiti yica utuzizi, iyica mikorobe ashobora gutera mu bihingwa byacu, kandi ninaho tubika amafumbire mvaruganda yacu atuma ibiryo cyangwa se ibihingwa byacu bikura vuba vuba bidatinze mu butaka.

Aha ni ho duhunika ifumbire yacu kugira ngo tubashe kubona aho tuzajya tuyifata bitworoheye, kugira ngo twuhire cyangwa se dufumbire ibiribwa byacu, kugira ngo bibashe kuba byakura neza mu butaka, kandi bibashe kuba byatanga umusaruro ku muntu no ku mubiri wiwe.

Aha ni kwa goronome wacu, muganga wita ku bimera byacu, utwigisha kubungabunga ibyo twateye mu butaka, bigira akamaro mu mubiri, iyi ni imiti mureba ijya idufasha kuba yakica utuzizi ama mikorobe ashobora kujya mu biribwa byacu bigakura bitameze neza, cyangwa bikagwingirira mu butaka.

Kwita ku bimera byacu ni byiza biri mu bintu bigira akamaro cyane kuko bituma, ibihingwa byacu bikura neza, bigakora byujuje intungamubiri, zafasha ikiremwa muntu mu buzima bwacyo bwa buri munsi.

Gufumbira imbuto zacu twateye mu butaka ni byiza cyane, bifasha imbuto zacu gukura neza kandi zihuse, kandi zigakurana intungamubiri zuzuye, ku buryo umubiri zigiyemo ziwufasha cyane, bityo n'umubiri ugakomeza gutera imbere, kandi nawe ugatera imbere mu buzima busanzwe.

Aha ni aho veterineri wacu akorera ni ho tumusanga iyo tumukeneye kugira ngo, abashe koba yadufasha kwita ku matungo yacu. Uyu niwe utugira inama z'ukuntu twakwitwara, twita ku matungo yacu ariyo ajya atubyarira inyungu, cyangwa se akadufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Ni byiza guhinga kandi bikaba byiza gutunga n'ibikoresho bigufasha mu buhinzi bwawe, ibikoresho byabugenewe bitagira icyo byangiza ku bihingwa byawe kandi tukagana n'abagoronome bakadufasha kuduha imiti ibungabunga ibimera byacu.

Guhinga ni byiza kandi bitanga umusaruro bigira akamaro ku muturage uwo ari we wese, kandi ibihingwa byahinzwe neza byitaweho neza byafumbiwe byahawe amazi ahagije, bikura neza bikagira n'intungamubiri nyinshi ku muntu ndetse no ku nyamaswa.

Gukunda ikintu ni kimwe no kugikora ni ikindi kandi no kukitaho. Ikindi biba byiza iyo ukunda icyo kintu ukanagikora kandi ukanakitaho neza. Hano dukunda guhinga cyane cyane ibiribwa byiganjemo ibigori. Ibigori ni byiza turabikunda turanabirya kandi kenshi cyane. Biraryoha kandi ikigori iyo wakitayeho kiba kiza cyane ku buzima.

Ibi ni ibigori twifashisha iyo turi guhinga, ni zo mbuto dutera kugira ngo hakure ibindi bigori byiza, abantu babasha kuba barya kandi banabishesha. Aha ni ho tubihunika mu gihe dutegereje ko byuma bikamera neza, kugira ngo tubone uko tubishyira mu butaka.

Hano twasuyeu mubyeyi wacu yari ari kutwigisha ukuntu dushobora kuba twahinga inyanya, tukazibungabunga ku buryo zivamo umusaruro mwinshi kandi mwiza, zikaba zadufasha twebwe abaturage, ndetse na nyir'ubwite, kuko azikuramo inyungu, amaronko yo kuba yakita ku muryango wiwe, ndetse akaba yanazirya.

Ikawa ni imwe mu rubuto ruzwi cyane mu kunywebwa mu binyobwa, bidasembuye cyane cyane, ariko hari n'ibisembuye bashyiramo ikawa. Ikaba igira umuhumuro mwiza, ni nziza mu mubiri, iranafasha mu kuruhuka cyane ku mubiri, kandi yongera n'imbaraga mu mubiri, ituma n'umuntu atagira ibitotsi byinshi.

Ibi ni ibigori twahunitse dutegereje ko byuma ngo tube twasheshamo ifu y'akawunga, cyangwa se tube twakuramo imbuto zo kuba twatera mu mirima yacu, kugira ngo habe haza ibindi bigori abantu bashobora kuba bateka, batabitetsemo akawunga.

Ikigori ni urubuto ruhingwa rukamera rwamara kumera rugakura rukazana igiti, amashami ndetse hakazaho n'urwo rubuto rw'ikigori. Mwa bantu mwe ikigori ni cyiza cyane, kuko ikigori cyongera imbaraga mu mubiri, ikigori tugikuramo ifu y'ubugari bwitwa kawunga, buryoha cyane benshi tunakunda, ikigori ni cyiza cyane igihe cyose wagikoresha.

Uyu ni umwe mu baturage twasuye w'umuhinzi kandi ni n'umworozi, atwigisha ukuntu twakwita ku bimera no kubungabunga ibimera ndetse no kwita ku matungo, atwereka n'ukuntu dushobora kuba twahinga byaba ibiti, imbuto cyangwa se ibiryo turya bya buri munsi ubueyo byera mu butaka.

Ikawa ni kimwe mu bimera byiza biri ku isi bishobora kuba byafasha umubiri, cyane cyane nk'umubiri wacitse intege cyangwa nk'umuntu udashaka kuryama, ikawa ni nziza kuko itanga inyungu kandi iyo wayitayeho neza nawe ikugira mwiza.

Igihingwa cy'umwembe, icyo twita urubuto rw'umwembe, rwera ku giti gituruka mu butaka kikazamuka kikera kikazana imbuto, ari imbuto zigira umumaro. Imbuto zongera isukari mu mubiri, zongera imbaraga mu mubiri, kandi imbuto z'imwembe ni nziza ku buzima bwa buri muntu wese. Kandi ni byiza kubungabunga ibiti kuko biri mu binyabuzima bihumeka, kandi bifasha n'umuntu.

Guhinga igitoki ni byiza. Igitoki ni igihingwa giterwa kigatinda gukura ariko iyo cyakuze gitanga umusaruro mwiza kuko turakirya cyane cyane gifasha abana bakiri batoya. Igitoki ni kiza ku mubiri w'umuntu uwo ari we wese kandi kirafasha cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi no mu mubiri wacu.

Urubuto rwiza ruryoha cyane rukungahaye ku buryo bw'isukari iri hejuru cyane, ni urubuto rwiza rwongera imbaraga mu mubiri kandi runaryoha cyane pe, ndarubatuye, urubuto bita inanasi ni nziza iraryoha kandi inasa neza, igaragarira neza ijisho, mujye mugura amananasi murye, muyatere, munayahinge, ni meza cyane agira n'umusaruro mwiza.

Ibirayi ni byiza ibi kandi biraryoha, ibirayi iyo ubihinze ukabyitaho, ukabiha ifumbire ihagije, ndetse ukanabiha amazi ahagije, na byo birazamuka bigakura neza kandi bikaguha umusaruro ushimishije. Aha ni ku masoko tugenda tubitanga, iyo twejeje twasaruye kugira ngo twese tubashe kuba, twagira icyo tubona cyo kurya.

Hano twiri turi kuganirizwa na goronome wacu, atuganiriza ukuntu dukwiye kwita ku bimera cyane cyane ibiti, twitabira gutera ibiti kuko bituma tugira umwuka mwiza, tubona umuyaga mwiza, bityo bigatuma turushaho kubaho neza duhumeka umwuka mwiza.

Ni byiza guhinga ibishyimbo kuko ibishyimbo, biri mu biryo bigira umumaro munini hano ku isi. Ku bantu, uwo ari we wese waba umunyamahanga, waba Umunyarwanda, waba umunyaziya, ibishyimbo ni byiza ahantu hose; kandi biraryoha, byongera imbaraga mu mubiri, byongera amaraso, ibishyimbo bigira intungamubiri nyinshi ku kiremwa muntu.

Abantu benshi batazi ko guhinga ku kumusozi bishoboka dore ngibi, hano tuba twabanje gukora amaterasi y'indinganire, hanyuma twamara gukora amaterasi y'indinganire tukagenda duteramo imbuto zacu bitewe n'ibyo dushaka guhinga ibyo ari byo, nk'imboga, cyangwa se ibijumba, cyangwa se imyumbati, ibintu nk'ibyo kandi bifasha ubuzima bwacu bwa buri munsi.

Iyi ni imiti twifashishwa mu myororere y'inka zacu, idufasha kuba yarinda inka zacu kuba zarwaragurika cyangwa zagira ikindi kibazo mu mikurire yazo kuburyo zitatanga umusaruro wabugenewe wayo.

Iyi ni imiti twifashisha mu buhinzi bwacu, ndetse harimo n'ifumbire mvaruganda ituma ibiribwa byacu bikura vuba, iyi miti idufasha kuba yarinda indwara zitandukanye zishobora kuba zakwibasira ibihingwa byacu, bityo turayikoresha kugira ngo ibihingwa byacu bikure neza bifite intungamubiri zabyo zuzuye, byujuje ubuziranenge.

Bantu dukunda guhinga, twitabire gutera amaterasi y'indinganire kuko bituma ibiribwa byacu bikura neza mu butaka byisanzuye, kandi bibasha no kunywa amazi neza, kandi amaterasi y'indinganire atworohereza kuba twashyira, ifumbire ku biribwa byacu neza.

Uyu ni murima umwe w'umuturage twasuye nka koperative kugira ngo turebe icyo twamufasha nawe abashe kuba yakiteza imbere mu bihingwa by'iwe, tumugira n'inama ko yajya akoresha ifumbire ndetse akuhira neza ibihingwa by'iwe kugira ngo bitazapfira mu butaka.

Aha narindi guhinga ntunganya neza umurima wanjye kugira mbone uko nzateramo ibishyimbo n'ibigori. Aho nzajya mbona uko mbifumbira neza kandi nkabiha n'amazi menshi kugirango bizabashe gukura neza, bizampe umusaruro mwiza kandi nzishime kuba ntaravunikiye ubusa.

Nta cyiza nko gukora ikintu ukabona kivamo umusaruro mwiza, aha twari twasuye umupapa atubwira ukuntu guhinga ari byiza kandi abikuramo umusaruro munini ko ari byo bimutunze bigatunga n'umuryango wiwe, ndetse kandi bikaba byamufasha no kuba yishyura amashuri y'abana be.

Igihingwa cy'umuceri ni cyiza ,kiri mu bihinnga bihingwa ahantu umuntu wese atakeka ko hagakwiriye kuba hahinga. umuceri ugira intungamubiri mu mubiri, umuceri turawurya, umuceri waduha amafaranga, wadufasha kwiteza imbere mu buryo bwacu no ku rwego rw'igihugu. Umuceri ni mwiza tuwurye kandi uzajya udufasha cyane.

Aha twari twakoze umuganda wo gufasha umukecuru wari ufite umurima munini, twabanje gutabira mu nyuma tuzagaruka duhinge kandi tugumye gufasha uyu mukecuru kwita ku biribwa by'iwe, aho azajya akoresha ifumbire, aho azajya yuhira ibiribwa bye neza kugira ngo bizakure neza bigire umumaro.

Ibi ni bimwe mu byadufasha kuba twafata neza ibimera cyangwa se, ibiribwa byacu tuba twahinze mu butaka kugira ngo bibashe kuba byatanga, umusaruro uhagije mu baturage muri sosiyete. Twitabire gutera amatarasi y'indinganire kuko ni byiza cyane, ku buhinzi bituma, ibyo twahinze bikura neza kandi tunabyitaho neza.

Mama wanjye ni umuhinzi mwiza cyane kandi ukunda ibihingwa byiwe kubyitaho, abishyiraho amafumbire, abyuhira kugira ngo birusheho kuba byakura bifite intungamubiri nziza, kandi nyinshi.

Hano twari tuhitabiriye gukora akarima k'igikoni kuko kadufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi ni ingirakamaro, bidufasha kuba twarya imboga nziza, ndetse tugatekera n'abana bacu kandi bikadufasha no kwirinda gusesagura amafaranga menshi tujya kugura imboga, akarima k'igikoni ni keza karafasha, kandi katugirira akamaro mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Ni byiza kubungabunga ibihingwa byacu kuko aribyo bifite umumaro munini cyane kuruta ibindi bintu byose biri ku isi kuko aribyo bitunga umubiri bikabiha imbaraga kugira ngo tubone uko dukora akazi kacu ka buri munsi. Ibiribwa biva mu butaka byongera vitaminini kandi bikuzana abasirikare mu mubiri umubiri ugahora utekanye ni ngombwa ngo tubyiteho kandi tubisigasire.

Hari abantu benshi batazi ngo guhinga bigenda gute. Nk'ubu ngubu twari twabanje gutabira, turaza turagaruka turahinga, ubu ngubu hano twari dusoje guhinga, ubu ejo tuzagaruka duteremo imbuto, nyuma y'iminsi tubone umusaruro w'ibyo twahingiye, twavunikiye.

Aha ni ho koperative yacu ikorera, ahagana i Muhanga aho dukusanyiriza, ibihingwa byose twahinze, tukabihuriza hamwe kugira ngo tugende tubyohereza ku masoko atandukanye kugira ngo tubone umusaruro ufatika uva mu byo twavunikiye.

Mbere yo guhinga turabanza tugatabira, hano twari turi gutabira, mu minsi iri imbere ubwo ni uko tuzahita duhinga, dutere n'imbuto dushaka ko tuzatera, rayike nk'ibigori, ibishyimbo, ibintu nk'ibyo, abantu mutazi guhinga mutwegere mutugane natwe tubigishe guhinga kuko guhinga ni ibyambere, ni ibyambere.

Aha twari twazindukiye mu murima tugiye guhinga, twari twabanje gukora icyo bita gutabira, ubutaha tuzaza dukora icyo bita guhinga, undi munsi ukurikiyeho dushyiremo imbuto zacu, kugira ngo zizazamuke neza, ubutaka budakomeye cyane kandi n'ikindi twuhire, dushyiremo n'ifumbire yabugenewe, kugira tuzabashe kubona umusaruro mwiza.

Ibi ni bimwe mu bintu bituma abantu benshi dukunda guhinga, iyo usanze umusaruro wabonye mu guhinga kwawe ugize umumaro ukawugirira buri wese, nk'aha ngaha twari twasaruye ibihingwa byacu harimo ibijumba, ibitoki, ibirayi, twasaguriye amasoko turi kugenda tugurisha na buri umwe wese kugira ngo buri wese yisange mu cyo akunda abasha no kurya, kandi yishimiye.

Igihingwa cy'ikigori ni cyiza ndetse, tutirengagije ko n'ibishyimbo ari byiza. Aha ni ho twari twahunitse imbuto zacu z'ibishyimbo n'ibigori, ibyo tuzakoresha duhinga cyangwa se bimwe tubikuramo n'amafu yo guteka mu rugo.

Isombe ni zimwe mu mboga nziza ziryoha, zigira intungamubiri nyinshi cyane ku mubiri w'umuntu, rero ni byiza guhinga isombe kandi birafasha kandi ukazibungabunga, ku buryo zikura neza zujuje ubuziranenge bwazo, zifite ubudahangarwa zishobora kuba zagira ikintu zihindura mu mubiri.

Iyi ni imwe mu makoperative akorera mu mujyi wa Kigali aho bita Nyabugogo, twasuye batwereka aho bahunika imyaka yabo baba bakuye mu mirima igiye itandukanye, hano harimo amafu ya kawunga, imiceri ndetse n'ibindi bitandukanye by'ibiribwa biba byavuye mu mirima, bikoherezwa ku masoko atandukanye.

Umwumbati ni umwe mu biribwa bivamo ibintu byinshi kandi biryoha kandi bigira akamaro cyane ku mubiri w'umuntu. Umwumbati wongera imbaraga, umwumbati dushobora kuba twawukoramo ifu y'ubugari kandi abantu benshi barayikunda. Twitabire kurya imyumbati kandi munatugane tubagurishe iraryoha kandi ni myiza ku mubiri.

Sha hano ni ku isoko aho duhahira ibiribwa ibyo dukenera umunsi ku munsi. Aha ngaha twari tugeze ku isoko dusanga bapakuruye ibirayi, ibijumba n'ibitoki, kandi bidahenze cyane; batubwira yuko kurya ibirayi ni byiza ndetse n'ibitoki ndetse n'ibijumba ko byongeramo n'imbaraga cyane mu mubiri.

Aha ni ho twanika ibigori byacu mu gihe dutegereje ko byuma tukabiseshamo ifu, iyo bita kawunga, ifu y'akawunga ikunda kuribwa n'abantu benshi kandi n'ifu iryoha kandi yongera n'imbaraga mu mubiri cyane.

Ibi nimwe mu bihingwa byacu harimo nk'ibigori, ibishyimbo tuba twagejeje ku isoko twejeje twasaruye, tukavuga ati "reka dushyire n'abaturage barye ku byo twahinze'' bityo bibe byaduha inyungu ku buzima bwacu bwa buri munsi.

Ibi ni bimwe mu bihingwa tuba twasaruye tukabigeza kuri koperative yacu aho tubikusanyiriza hamwe kugira ngo tubone uko tubyohereza mu masoko atandukanye kugira ngo abantu bose babone uko babyifashisha kuko aba ari ingirakamaro kuri buri muturage wese ubasha guteka.

Avoka ni imwe mu rubuto rushimisha abantu benshi, cyane cyane abantu bakunda kurya invange, uba usanga bakunda n'avoka kenshi. Kandi n'abantu bakunda kuzihinga usanga batunze, bazitunze no ngo zabo, biroroha cyane kuba wahinga avoka ukayinga mu rupangu rwawe yaba ari imbere y'inzu, cyangwa se n'ahandi, koko voka ziba, ziragira umusaruro mwiza kandi ziranagurwa cyane.

Ni byiza kuba twabungabunga ibidukikije. Cyane cyane ibiti kuko ibiti bifasha ikiremwamuntu, ndetse n'inyamaswa kuko ibiti bitanga, umwuka mwiza. Kandi ibiti bituma n'ubutaka bukomera ku buryo butapfa kujyanwa n'isuri.

Kubungabunga ibidukikije ni byiza kuko na byo biri mu binyabuzima byaremwe biri ku Isi. Ibiti birahumeka, ibiti biduha umwuka mwiza, bityo ni na yo mpamvu dukwiye kubibungabunga tukanabisigasira ndetse tukanabitera cyane, kuko bifasha ikirere byacu kiduha umwuka wo guhumeka, kandi bigafasha na buri wese kuba yakumva ameze neza mu mubiri we.

Gutera ubusitani ni byiza amajaride no gutera ibiti mu ngo zacu, ni byiza ukabyongera umwuka mwiza mu mubiri no mu ngo zacu bigatuma bahumura neza akayaga kameze neza, hagahora amabumbezi hadashyushye hatanakonje, kandi wayicara ukanaruhukira.

Akarima k'igikoni ni keza mu rugo kandi karafasha cyane, bikadufasha no kudasesagura cyane kandi no kurya indyo yizewe, hano murabona twahinzemo agasombe, ibihaza, ibintu bidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi akarima k'igikoni aba ari ingenzi cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi kandi no mu rugo.

Iyi ni bimwe mu bintu bigaragaza ko tugomba gufata neza ibidukikije kuko ibiti na byo ni ibinyabuzima kandi bihumeka bikwiye kwitabwaho kubera ko bigira akamaro kanini ku buzima bw'umuntu cyane cyane bitanga umwuka mwiza wo guhumeka kuri buri kiremwa cyose kiri ku isi.

Bimwe mu byiza by'ibiti, igiti iyo wacyitayeho ukakibungabunga neza, gitanga umwuka mwiza ku kiremwa muntu icyo ari cyo cyose, ariko iyo ucyitayeho nabi igiti gikura nabi kandi kikaba kitagira umumaro ku isi, kandi ikindi cyiza cy'ibiti tugikuramo imbaho zo twubakisha ingo zacu ndetse n'amakara yo kuba twatekesha.

Aha ni ahagana ku kigo cy'amashuri twasuye batuganiriza ukuntu bita ku kubimera n'ibidukikije mu byukuri murabona kino kigo gisa neza, akajaride gasa neza, hari ibiti bimeze neza abana bafatiramo akayaga keza, ni byiza ni ukuri, mujye mwitabira kwita ku biti ndetse n'ibindi bidukikije.

Guhinga ibishyimbo ni byiza, ibishyimbo birafasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, ibishyimbo byongera imbaraga mu mubiri, ibishyimbo byongera n'amaraso, kandi ni byiza kubihinga tukabibungabunga, aha ngaha twahinze ibishyimbo, ibi ni ibiti tujyenda dushingamo, kugira ngo igishyimbo bizamuke neza, gikure neza, kize ari igishyimbo cyiza kandi kiryoshye.

Igihingwa cy'urubuto rw'ikigori ni rwiza, ikigori kiratubukaka, ikigori kirahaza, ikigori kirafatika muri sosiyete cyane cyane, Leta yacu ni byo ikunda kugaburira cyane abagororerwa, abanyeshuri na bo barabirya ndetse kandi n'abantu bakuru, ikigori ni cyiza cyubaka umubiri, cyongera imbaraga mu mubiri.

Kwita ku bidukikije ni byiza kuko ibidukikije bifitiye akamaro ikiremwamuntu n'igihumeka cyose kiri ku isi ariko turandura ibihuru n'ibigunda kugira ngo bitazavamo havamo hibikamo imibu ari yo itera malariya.

Imiiteja ni bimwe biribwa abantu benshi bakunda kwita imboga, kandi imiteja ni myiza ku buzima bwacu, abantu benshi bakunda kuyirisha amakaroti cyangwa ibindi bintu, bitewe n'icyo bashaka kurya, kandi imiteja ni myiza cyane ku buzima bwacu.

Gutunga jaride ni nziza. Kuko jaride zituma ahantu hasa neza, kandi jaride ni ahantu ushobora kujya kwicara, ukaruhukira, habari akayaga keza cyane cyane iyo harimo n'uduti cyangwa, indabyo ku ruhande, bisaba kuba waharuhukira neza, birashimisha kandi binaruhura mu mutwe.

Aha ni mu isoko rya Nyabugogo aho twagiye gusura abacuruzi baho, batubwira ibyiza bijyanye n'imbuto zo guteka mu biryo cyangwa se byo kongera ku mafunguro yacu. Uyu ni umucuruzi twavuganaga ucuruza amavoka n'inyanya, yatubwiye ibyiza by'inyanya, atubwiye n'icyiza cyo kurya ku mafunguro yacu yaherekejwe na voka.

Twitabire gukungahara mu guhinga, dukoresheje amaterasi y'indinganire kandi duhinga ni imbuto ziraryoha ni nziza ku buzima bw'abana bacu ndetse na twe bakuze, kandi abantu bose turazikenera, kandi ikiza guhinga bidufasha kubaho neza turya, twiteza imbere, tugakunga n'igihugu kigatera imbere n'amasoko n'abaturage bakabona ibyo kurya.

Icyiza cyo gutera pasiparume n'indabyo ndetse n'ibiti, biri mu bintu bituma ahantu hasa neza kandi, hakagira umwuka mwiza. Aha ni ku kigo cyacu, aho twagiye dutera amapasiparume n'indabo murabibona, dukunda kwihicara twasoje amasomo, menshi dushaka kwiganirira, kandi haradufasha. Kandi haba hanasa neza cyane.

Ipapayi ni kimwe mu biri mu rubuto rwiza cyane, ruri kuri iyi si, rushobora kuba rwafasha buri muntu wese uko yaba ameze kose. Ariko cyane cyane tutibagiwe abana cyane cyane. Ifasha mu igogora ryo mu mubiri, ipapayi ni nziza ituma mu gifu horoha, hamera neza. Tugaburira abana amapayi kandi tunayate cyane mu ngo zacu.

Imiteja ni ikintu cyiza cyane, ni imboga ziryoha kandi ziryoshya n'ibindi biryo turya mu buzima bwacu bwa buri munsi, ifite n'intungamubiri, nziza hano dufite n'ama beterave, betrave mwese murabizi ni urubuto duteka cyane cyane mu maji arko unabishaka uziteka mu biryo, byongera amaraso byihuse, dufite na pavuro, pavuro ni nziza zihumuza ibiryo kandi ziranafasha cyane mu mubiri wacu.

Aha ni mu gasoko kacu aho ducururiza ibicuruzwa byacu twakuye mu mirima cyangwa twaranguye n'abasaruye, aha ngaha twari turi gucuruza inyanya n'intoryi, n'amaronji n'imyembe, uduteja, kugira ngo buri muntu wese abashe kugira icyo yisangamo kandi akunze yishimiye.

Ibiribwa by'imbuto ni byiza ku buzima bwa buri muntu wese, kuri buri kiremwa muntu cyane cyane byagera kuri avoka bikaba akarusho kubera ko ni urubuto dukenera ku mafunguro yacu ya buri munsi, kandi avoka ni nziza kuko zongera n'amavuta mu mubiri ku bantu bafite amavuta makeya, kandi zijya zituma n'uruhu ruba rwiza.

Urunyanya bimwe mu mbuto nziza zikunzwe n'abantu benshi. Ni urubuto uteka mu biryo bigahindura ibara ibiryo bikaryoha cyane, kuburyo ushobora no kubibona apeti amerwe akakwica akakwica kandi utaranarya. Urunyanya ni rwiza cyane, turwitabire kururya rurafasha cyane cyane. Kandi no kurutekana n'amakaroti birafasha.

Urunyanya ni rumwe mu mbuto rutagomba kubura ku biribwa byacu, cyanecyane bidufasha kongera amaraso, inyanya ni nziza, tuzikoramo n'amasarade, inyanya ni nziza zituma ibiryo biryoha, ntabwo tugomba kuzibura mu buzima bwacu bwa buri munsi, kuko nta n'ubwo bigorana, udafite n'ubushobozi bwo kuzigura, wajya ukora n'akarima k'igikoni mu rugo ugahingamo utunyanya.

Imiteja ni bimwe mu biribwa biribwa cyane umuntu ashobora kuba yarya na saa sita na nijoro, bitewe n'uburyo ayikunda mu miterere yaryoha agira intungamubiri nziza kandi imiteja ishobora kuba yafasha buri umwe wese umwana, umuntu mukuru, kandi tujye twitabira tunayihinge cyane kuko ni myiza iraryoha.

Imiteja ni ibyo kurya byiza umuntu wese ashobora kuba yafata bitewe n'ifunguro yateguye ryiwe ku meza kandi imiteja ni myiza iraryoha, ijyana n'ibindi bintu ibyo ari byo byose byo kurya bitewe n'uko ushaka kuyiteka.

Bantu twitabire gutera amapasiparume n'indabyo, yaba ari mu bipangu byacu cyangwase ku muhanda habugenewe, kuko pasiparume ni nziza ku buzima bw'abantu, zirafasha cyane ku muntu ushaka kuruhuka, ushobora kuba wajya kwiyicariramo ugafata n'aka kayaga k'amahumbezi, pasiparume ni nziza zituma n'ubutaka bukomera.

Urugero rwiza rw'imbuto udakwiye kubura iwawe, harimo nk'amaronji, amatunda, indimu, imyembe, watermelon, amapome n'ibindi n'imineke byose, ni ingirakamaro cyane ku buzima bwacu, bigira intungamubiri nyinshi kandi zifasha umubiri zituma n'umubiri udacika intege.

Imineke ni myiza mu buzima bw'abantu bose, kandi ikaba myiza cyane ku bana batoya, cyane cyane utuneke tuto twa kamara, ni twiza kandi turaboneka mu masoko, twajya twitabira twagaburira abana bacu imineke ndetse n'izindi mbuto zose, kuko imbuto ni nziza ku buzima bw'abana ndetse n'ubw'abantu bakuru.

Bimwe mu mbuto ndetse n'ibiribwa dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi, harimo ibitunguru, amapavuro, ndetse ahangaha uyu mubyeyi yatuganirije ko atari ibi byonyine dukeneye mu buzima cyangwa se mu mubiri wacu, dukeneye no kurya imbuto nk'ama pome, imineke, ndetse n'ibindi byose bitandukanye ko ari byiza ku buzima.

Ubuhinzi bw'amashu ni bwiza. Amashu aratubuka, amashu aragurwa, ntabwo wahinga ishu ngo uzakene mu nzu cyangwa ngo inzara izakwicire mu nzu ndetse n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose ushobora kuba wahinga wagishyizeho umutima n'imbaraga zawe, ukacyitaho, ukakibungabunga neza birafasha cyane. Aha ngaha twari turi kuhira amashu yacu kugira ngo turebe ko hari icyo azabyara mu gihe kiri imbere.

Imbuto ni bimwe mu biribwa bikunzwe cyane ku isi, kandi biribwa cyane, kandi binahingwa bigakura vuba, bigatanga n'umusaruro mwiza, cyane cyane nk'imineke, imineke n'urubuto rwiza rukunzwe ruryoha rurimo amasukari, rwongera imbaraga mu mubiri imyembe, ibinyomoro, amatunda, byose ni byiza cyane, twajya tubyitabira, byajya bidufasha kandi byanadushimisha.

Bantu mukunda imbuto n'abatazikunda mwitabire cyane kurya imbuto ni nziza ku mubiri wacu. Kandi umunsi ku munsi imbuto tugomba kuzikenera n'ubwo wajya ufata kamwe munsi karahagije. Wotameloni, amatunda, imyembe, ibinyomoro, amapome. Byose ni byiza kandi birahari kandi nta bihenda. Twirire imbuto ni nziza ku buzima bwawe.

Ibi ni byizayiza mu bimwe nyaburanga bitatse isi, aho twasuye umuturage bigasanga akungahaye ku bimera by'indabyo, atubwira ko indabyo nziza kandi zimufasha cyane, kuba urugo rwe rwasa neza kandi rukaba rurimo impumuro nziza.

Hano dufite akaruhurura kacu keza kadufasha kuyobora amazi y'imvura kugira ngo bamwe muri twe atadusanga no mu mazu cyangwa agasenya ibikorwa remezo byacu, dufite n'indabyo nziza zidufasha guhumeka neza ubuzima bwacu bwa buri munsi. Indabyo tuba tuzikeneye.

Gucuruza imbuto ni byiza kandi birafasha cyane, ku muntu ukeneye amafaranga ndetse no ku muntu ukeneye gufasha. Imbuto ni nziza cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi, kuko urubuto ni cya kintu gishobora gusimbura ibiryo, kandi ndetse urubuto rugira umumaro munini cyane mu mubiri.

Amatunda ni kimwe mu rubuto rwiza ruba ku Isi kandi ruryoha. Rwongera amaraso mu mubiri, rufasha cyane buri muntu wese, abarwayi igihe baba bafite ikibazo cy'amaraso, cyangwa se n'abana batoya bari gukura. Duhinga amatunda ndetse n'izindi mbuto zose, kuko ni ingenzi ku buzima bwacu bwa buri munsi.

Hano mutugane tubihere ku mbuto nziza kandi ziryoshye nk'ibinyomoro, amatunda n'ibindi byose kubera ko imbuto ni nziza ku buzima bwa buri muntu wese imbuto zongera imbaraga, amaraso, zituma umubiri wacu umera neza nta mavunane nta ndwara zirinda n'umubiri cyane mutugane tubihera imbuto twisangirire kabisa.

Iyi ni imwe mu mirima duhingamo intoryi, aha hari intoryi zidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi mu biryo turya kandi intoryi ni nziza ku buzima bwa muntu, uwitabiriye kurya intoryi ntabwo apfa kurwara, kwibasirwa n'uturwara twose tubonetse kandi intoryi ni nziza mu mirire yacu ya buri munsi, yuzuza ibiryo, yuzuza n'intungamubiri mu mubiri.

Gutera indabo ni byiza, biri mu bintu bituma ahantu hasa neza hakagaragara neza kandi indabo zituma ubutaka bukomera, ikindi indabo zishobora kuba zarinda n'amasuri, indabo ni nziza aho ziri hose ziriranga kuko ziba zishayininga kandi n'abantu barazikunda, zituma umuhanda wasa neza n'ingo zisa neza. Ahantu hari indabo haba hasa neza kandi hari n'akuka keza.

Tungurusumu ni zimwe mu mbuto duteka mu biryo zikiza indwara nyinshi zo mu nda kandi zifasha mu mubiri cyane kimwe n'izi dodo muri kureba aha ngaha ni ibyo twifashisha mu gihe turi guteka ibiryo bifite intungamubiri, ibitunga umubiri kandi igafasha cyane mu mubiri cyane cyane mu igogora, ni nziza tuzitabire tuzirye, tungurusumu zivura n'inzoka nziza cyane yaba ari ku bana no ku ba...

Imineke ni myiza kandi irafasha, iraryoha kandi yongera imbaraga mu mubiri, aha ni ahagana ku isoko rya Kimisagara, aho twasuye umubyeyi ucuruza imbuto atuganiriza ku rubuto rw'umuneke ukuntu ari rwiza cyane.

Itunda ni urubuto rwiza niba hari n'abantu bataruzi, itunda ni urubuto rujya kumera nk'urutoryi ariko mo imbere ruba rufitemo amazi aryoshye cyane kandi harimo n'utubuto, twitabire kurya imbuto cyane, imbuto nziza mu mubiri wacu.

Imineke nimwe mu rubuto rwiza kandi ruryoha rwongera n'imbaraga mu mubiri. Abantu benshi nimba mutabizi umuneke ukurira kugitoki; igitoki kiba cyakuriye kunsina hanyuma tugagitara kikaza kuvamo umuneke ari wo turya, wagera mu mubiri ukongera imbaraga n'isukari mu mubiri.

Kwitabira kurya imboga ni byiza cyane cyane harimo intoryi, inyanya, amakaroti ndetse n'amadodo. Uyu ni umuturage ucuruza intoryi yatubwiye ibyiza byo kurya intoryi ndetse n'izindi mboga ko ari byiza bifasha umubiri, kandi bituma hari intungamubiri nyinshi ziyongera mu mubiri.

Imineke ni myiza kuko ifasha mu mubiri w'umuntu, ndetse ishobora no kuba wayisimbuza, ibiryo mu gihe ntabyo ufite. Kuko igira ibintu byinshi ijyana nabyo. Ndetse akamaro kayo cyane yongera imbaraga mu mubiri kandi itera n'isukari, kandi icyiza cy'imineke dushora kuba twayikoramo n'ibyo kunywa layike nk'imitobe.

Ni byiza kuba twabungabunga ibidukikije kuko bifasha ikiremwamuntu gihumeka cyose dutera nk'ibiti, pasiparume ndetse n'indabyo, kuko bimwe muri byo bituma iwacu hasa neza, ibindi bikaba byatuma duhumeka umwuka mwiza, bityo rero twese twabyitabira kandi byadufasha.

Karoti ni kimwe mu biribwa biryoha biri ku Isi kandi bifasha mu mubiri cyane cyane amaso, bituma maso asa neza kandi areba neza kandi karoti mu gihingwa kiza kidatinda mu butaka cyane kandi kibyara inyungu ni umusaruro uri hejuru haba mu baturage no ku gihugu.

Igitunguru ni kimwe kiza, mu biriryo bitunga umubiri. Aho igitunguru dushobora kuba twagikoramo ibintu byinshi kandi, tukagiteka mu biryo. Itunguru kivamo salade, ikitunguru kivamo, kugikaranga mu biryo, igitunguru nicyiza mukitabire, kandi munagitekeshe kuko kiryoshya ibiryo.

Bnatu mukunda kurya imbuto, mutugane Kimisagara, ku isoko tubihere imbuto, tuba dufite imbuto nziza rayike nka wota meroni, amapapayi n'ibindi byinshi byiza, bijyanye n'imbuto kandi biba ari byiza ku buzima bwanyu.

Ubucuruzi bw'imboga ni bwiza kandi cyane cyane bukaba byiza kurushaho twabucururije ahantu byemewe, cyane cyane nko mu masoko ahantu hahurira abantu benshi cyangwa mu mabotike inyanya ni nziza, karoti ni nziza cyane ndetse n'intoryi kubera ko bidufasha mu mirire no gukura neza kw'abana bacu.

Aha ni mu isoko rya Nyabugogo hazwi nko mu Nkunda mahoro, aho twatembereye tugasura abacuruzi bacuruza imbuto, batubwiye ku byiza bijyanye n'imbuto, batubwira ko dukwiye kujya turya imbuto cyane, ko dukwiye no kuzigaburira abana bacu cyane. Ko imbuto ari nziza ku buzima bwa kiremwa muntu.

Abantu benshi hari ikintu bajya birengagiza cyane cyane nk'urubuto rw'imbuto kubera ko rusharira abantu bazi ko nta mumaro rufite, kandi urubuto rw'indimu ni rwiza cyane mu mubiri rushobora kuba rwatuma hari ibyanze kugogoreka neza mu nda urubuto rw'indimu rukabigufashamo.

Twitabire kurya imbuto, imbuto ni nziza mu buzima bwacu bwa buri munsi, ni nziza zongera amaraso mu mubiri, zongera imbaraga mu mubiri, twitabire kurya imbuto ni nziza, n'abatazikunda muzikunde pe, muge murya imyembe, amapome, amaronji, intoryi, binyomoro, amatunda na za wotameroni ni sawa cyane.

Ni byiza guhinga mu buzima, bikaba byiza kurutaho iyo twabungabunze neza ibimera byacu, aha ngaha twari turi kuhira ibihingwa byacu kugira ngo bimere neza mu butaka kandi bizamuke neza ku buryo byagira umumaro mwiza ku buzima bwacu.

Aha twari turi kwita ku bimera byacu, ku mbuto twateye z'amashu, kugira ngo zibashe kuba zakura neza. Ni byiza gufumbira amashu cyangwa se kuyuhira cyane, kubera ko amashu ni ibiribwa bikenera amazi menshi mu butaka, kugira ngo bizamuke bitoshye kandi byujuje intungamubiri zabyo neza.

Ni byiza kwita ku gihingwa cyacu cyane cyane ibigori kubera ko iyo turi mu bihe by'izuba birumagara, ni byiza kubifumbira kandi tukanabyuhira kugira ngo bibashe kuba byazamuka mu butaka neza, bibashe kuba byagira umumaro.

Kwita ku bihingwa ni byiza nko kubifumbira no kubyuhira, kugira ngo bibashe kuba byazamuka mu butaka, byuje intungamubiri kandi bisa neza, ubona biteye apeti utaranabiteka. Ni byiza cyane guhinga, ndabashishikariza kuba mwahinga mwese mubaye mufite ubushobozi bwabyo.

Kuhira ibiribwa byacu ni byiza kuko bituma ubutaka bworoha, bugaha kwisanzura ikiribwa kigakura neza cyujuje intungamubiri, ndetse no kongera ifumbire mu biribwa byacu, mu mirima yacu bituma ibiribwa byacu byiyongeramo intungamubiri kandi bigakura neza bitoshye.

Ni byiza kuhira imyaka yacu, kuko imyaka bituma ikura neza, amazi ni meza mu myaka yacu duhinga buri gihe, mu gihe imvura idahari tukaba twariteganyirije, twarabitse amazi tuzakoresha wenda nko mu gihe cy'izuba, kugira ngo ibiribwa byacu bitazahura n'ikibazo bikumagara bigapfa.

Aha ni ku ishuri, iki ni ikibuga cy'umupira dukiniramo twishimana na bagenzi bacu kandi tuniyibagiza imbogamizi tuba twahuye na zo mu ishuri kugira ngo tuze gusubira mu masomo yacu tumeze neza mu mitwe, twanaruhutse.

Ibishyimbo ni bimwe mu bimera byiza bidatinda mu butaka igihe kinini, kandi bigira umusaruro mwinshi, bigira n'umumaro munini kuri buri muntu wese, yaba ari umuturage, yaba ari umuyobozi. Biri mu bintu dushobora kuba twakenera umunsi ku munsi.

Kubungabunga ibidukikije biri mu bintu byiza bituma, tugira uburanga aho turi hose. Ndetse iyo witaye ku bidukikije bituma mugira umwuka mwiza wo guhumeka, ndetse hakaboneka n'ahantu ho kuruhukira, hasa neza, bityo bikaturinda indwara, zitandukanye zigenda zifata bitewe n'ahantu hatari isuku.

Ibi ni bimwe mu byiza byo guhinga twabanje gukora amaterasi y'inganire, kuko bituma ibihingwa byacu bizamuka neza mu butaka kandi bidahuye n'imbogamizi, harimo nk'amasuri cyangwa kuba byatembanywa n'amazi menshi, kandi bikabasha kuba byabasha kuba byafata amazi ahagije, kandi bikanatworohereza mu gushyiraho ifumbire.

Guhinga ku materasi y'indinganire ni byiza cyane, urabona nk'aha hantu duhinga, uramutse uhahinze nk'ibigori cyangwa ibishyimbo, nta materasi y'indinganire ahari, amazi ashobora kuza imvura cya gihe ijya igwa ari nyinshi akabitembana ugasanga urahombye.

Kwita ku bimera no ku bidukikije harimo ibihingwa ndetse no kwita ku biti ni byiza cyane cyane, kuko bifasha ubutaka kuba bwakomera kandi ikindi iyo witaye no ku gihingwa cyawe ukagifumbira ndetse ukagira n'amazi ahagije na cyo gikura neza, kigafasha umubiri cyane cyane.

Ni byiza kuba twahinga ahantu heza kandi haciye amaterasi y'indinganire, kuko bifasha ibiribwa byacu kuzamuka neza mu butaka kandi bikanatworohereza kuba twabishyiraho ifumbire yaba ari imvaruganda cyangwa ifumbire mborera, bityo bigatuma rero ibihingwa byacu bikura bizamuka neza bifite n'intungamubiri yuzuye.

Guhinga umuceri ni byiza bigira umumaro, kandi igihingwa cy'umuceri kiratubuka, kandi buri wese kikamugirira umumaro, dore kandi ko umuceri ari ibiryo abantu bose turya kandi twisangamo, kandi binadushimisha, bikanatunyura, bikanaduhaza, bikanadukuza.

Kwita ku bihingwa byacu kandi ari byo bivamo n'ibiribwa byacu bya buri munsi, ni byiza cyane. Aha ni mu gace kamwe ko mu cyaro giherereye mu burasirazuba twasuye, batubwira imbogamizi bahuraho nayo, mu buhinzi bwabo bw'uko nta mazi aba hafi yabo kandi n'imvura idakunda kugwa cyane, ariko batubwiye ukuntu bita ku bigo byabo barabifumbira, bakabyuhira, kandi ikindi bagatera n'amaterasi y'indinganiye kugira ngo ibiribwa byabo bikure neza.

Igihingwa cy'umuceri ni cyiza cyane kuri buri muntu wese kubera ko ni ibiribwa rusange buri muntu wese yarya kandi igihingwa cy'umuceri kiratubuka, kigira n'amafaranga, gitanga inyungu ndende, yaba ku baturage, abakorera mu masoko ndetse no ku Isi hose.

Amatungo magufi ni meza kuri buri muntu wese ubasha kuba yayakenera, kandi bikaba byiza cyane kurutaho iyo wayoroye kuko birafasha cyane kuko bibyara inyungu, kandi binagufasha no kuba warya inyama uko ubishaka, kandi ubworozi bw'abatungo magufiya uwo ari we wese yabigeraho, kubera ko ntabwo ari ibintu bisaba ubushobozi buremereye kandi bibyara inyungu.

Inkoko ni kimwe mu nyamaswa zororoka kandi zikura vuba kandi zitanga n'umusaruro vuba. Aha ni umuturage twaganiriye atubwira ibyiza byo korora inkoko, atubwira ko inkoko zimutunze ubuzima bwe bwose kubera kuzorora neza akazitaho, akaziha ibiryo bikwiriye mu gihe cya nyacyo.

Iri ni rimwe mu itungo ryororoka cyane kandi rikunzwe kandi rinarikika cyane, ari ryo twita ingurube. Ingurube ni itungo ushobora korora ntibigusabe ibishoro byinshi, kandi ntibinakugore cyane kuko ingurube ni indyabyose kandi ingurube ntitoranya. Icyiza cy'ingurube ni uko yororoka vuba kandi igira n'umusaruro mwiza.

Ubworozi bw'inkoko ni byiza. Ni byiza korora inkoko igihe ubona uzaba ufite umwanya wo kuzitaho kandi ukazikunda kuko wakunze ikintu ukagikora ukanacyitaho neza icyo kintu kiguha inyungu irambye kandi nziza kikagufasha no mu iterambere ryawe.

Mwa bantu mwe, ubworozi bw'inka ni bwiza, burashimisha. Reba nk'ubu ngubu inka yacu yabyaye, aka ni akanyana. Turakoroye na ko turagakuza, na ko kazaduha izindi nyana, ndetse kaduhe n'amata duha abana bacu, dusagurire n'amasoko kandi tuboneho n'ifumbire dushyira mu mirima yacu.

Korora amatungo magufi ni byiza kuko birafasha kandi bigira umusaruro mwiza uhagije, iyo witaye ku matungo yawe magufiya ukayaha icyo akenera cyose ndetse ukayarinda umwanda ntibyatuma hari indwara ziyinjirira, biguha umusaruro mwiza kandi bikaguha n'inyungu iyo ubikoze cyane.

Kubungabunga amatungo ni byiza cyane harimo inka ndetse n'andi matungo tworora mu ngo zacu. Aha ni hamwe mu ngo twasuye, twabonyemo ibiraro, inka, tubonamo n'ibindi byiza bagiye bitezaho imbere, nk'uturima tw'udukoni, ubundi batubwiye ko inka zibafasha cyane, zibaha amata kandi zikabaha n'ifumbire zo gufasha mu bihingwa byabo.

Ubworozi bw'inkoko ni bwiza. Inkoko ni itungo rigufiya rigira amafaranga, inkoko ni itungo rigufiya rishobora kuba ryaduha ibyo kurya. Ndetse kandi inkoko kuzorora bisaba kuzitaho, kuziha ibiryo byazo bifite intungamubiri kandi no kwegera abaveterineri bakakugira inama ku buryo wakangura imyororere yawe y'inkoko.

Umushinga wo korora inkoko ni mwiza, inkoko ziratubuka. Inkoko zigira amafaranga, inkoko zigira inyama iryoshye. Iyo wazitayewe neza ukazigaburira neza ibintu bifite intungamubiri, bizitunga ku buryo ziticwa n'inzara cyangwa izuba ryinshi, zikura neza kandi zikaba zakugirira akamaro imbere hawe.

Korora amatungo y'ingurube ni byiza, itungo ry'ingurube mwa bantu mwe rirororoka cyane, ko ingurube ibwagura ibyana byinshi, kandi ingurube ni itungo ritagorana kuryorora kuko rirya ibintu byose, kandi ingurube yororoka vuba ikagira n'amafaranga.

Iki ni ikiraro cy'inka aho twari twagiye gusura umukecuru umwe mu bakecuru boroye inka, yari ari kudusobanurira uburyo wafatamo inka neza ikakubyarira inyungu kandi n'umusaruro mwiza, ikaguha ifumbire, ikajya iguha n'amata yo gutungisha abana bawe ndetse no gusagurira ama dairy.

Inka ni itungo ryiza ryororerwa mu rugo kandi rishobora kuba ryabana n'abantu. Inka ni itungo ritagorana kuryorora ahubwo bisaba kuryitaho cyane, ukarigirira isuku kuko ibiva mu nka byose bigirira umumaro umubiri w'umuntu.

Hano tworora inkoko kandi inkoko ziradufasha mu buzima bwacu duhari munsi kuko zimwe na zimwe tuzijyana ku masoko tukabona amafaranga yo kurya yo kugura imyenda bamwe tukishyura n'inzu. Ni byiza korora kuko ubworozi bugira akamaro kanini ku muntu uwo ari we wese yaba uworoye n'utoroheye n'utoroye.

Aha ni hamwe mu mudugudu w'i Butamwa, aho twasuye uyu umukecuru wiyororeye amatungo y'ihene, uzwi cyane korora amatungo y'ihene kandi atubwira ko korora ihene ari akamaro cyane kandi amatungo amurinda irungu, akanamufasha mu buzima bwe bwa buri munsi yaba ari uburyo bwo kubona amafaranga no kurya kandi atubwira ko akunda umurimo akora wo korora.

Ubworozi ni bwiza bufasha buri muntu wese ubashije kuba yakorora. Mu gihe dufite ubushobozi bwo korora dukwiye korora cyane cyane amatungo magufiya kuko ni yo atagorana kandi abyara umusaruro n'inyungu mu gihe gito.

Korora no guhinga ni byiza, ni ibintu bifasha umuntu cyane m'ubuzima bwa buri munsi. Hano tworeye inkoko, itungo rigufiya ryiza kandi rikunzwe. Ni umurima wacu twari turi guhingamo ejo n'jobundi hazava ibyo tuzarya ni nibyo tuzasagurira amasoko.

Aka ni akanyana gatoya kavutse tukaba tugiye kutaho, bantu turabashishikariza namwe korora. Iyi nyana ni yo twitaho ikavamo inka yindi nkuru na yo ikongera ikaduha undi musaruro kandi inka ni nziza ku buzima bwacu bwa buri munsi. Mwese murabizi ko amata turayakenera cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi kuko nta kintu na kimwe atakora.

Gukora ikiraro cy'ingurube ni byiza birafasha bituma urugo rutagira umwanda mwinshi kandi bigafasha no kuba ingurube nazo zakisanzura ziba ahantu hazo hishimye kandi hatuje zabugenewe ubwo rero niyo mpamvu gukora ikiraro cy'ingurube ari byiza bikorohereza kuzigaburira, kuzitaho neza no kuzikorera isuku kuko ziba ziri hamwe kandi zitekanye.

Korora amatungo magufi ni byiza birafasha, iwacu tworoye amatungo magufi arimo nk'ihene, kuko ihene ni nziza kuzorora, zigira umusaruro mwiza, kandi ihene ni inyamaswa nziza y'inyamahoro ibana n'umuntu, nta watinya kuba wayororera mu rugo rwawe, nta mwanda igira kandi ni byiza kuyitaho ukayishakira ibiribwa byayo na yo igakura neza, ikaguha umusaruro ushimishije.

Aha tukiri abana twakundaga kuragira intama. Byaradushimishaga cyane kandi twarabikundaga. Iyo twabonaga mu rugo boroye intama bakaduha ubushobozi bwo kuziragira, tukabona zirarisha neza nta kibazo zifite kandi zikora neza, natwe nk'abana twarabikundaga, twarabyishimiraga kandi tukumva natwe tuzatera ikirenge mu cya bakuru bacu na ba papa bacu.

Ubworozi bw'amatungo y'ingurube ni bwiza kandi buratubuka, rero uko urutaho kuzifata neza ni ko urutaho kugira inyungu nyinshi kandi ingurube ni iri mu nyamaswa zigira inyama iryoha.

Aha ni ku ifamu y'umuturage twasuye Nyagatare aho yororera inyamaswa ziwe, amatungo yiwe y'inka atubwira ko gufata neza inka ndetse cyangwa itungo iryo ariryo ryose ritanga umusaruro mwiza kandi zitanga ifumbire n'amata yo gufasha abana n'abantu bakuru.

Imwe mu matungo meza yororoka, itungo ry'ingurube ni itungo ryororoka vuba, kuko inguru ishobora kubyarira ibyana cumi na bibiri icyarimwe, ibaze utunze ingurube imwe ikabyarira ibyo bibwana byose icyarimwe? Ibaze agaciro ingurube ifite cyangwa wowe wagira bitewe n'icyo ushaka kuzibyazamo.

Ubworozi bw'amatungo mu ngo zacu ni sawa cyane, cyane cyane ubworozi bw'ingurube kuko buraguka cyane buratubuka kandi bugira n'amafaranga kandi ingurube ni imwe mu nyamaswa zigira inyama iryoha ikunzwe cyane, wayitayeho neza ukayigaburira ku gihe, ukuyikorera isuku, itungo ry'ingurube ryagutunga ubuzima bwose.

Ibi ni bimwe mu biraro bidufasha kuba twakorora amatungo yacu neza, iki ni ikiraro k'inka umukecuru twasuye yari ari kutubwira ikiza cyo gutunga inka no gutunga ikiraro aho inka zirara kugira ngo abashe kuba yabona uko akusanya ifumbire iva mu nka ndetse kuba abona n'uburyo yakamamo inka ye neza kandi nayo ikabaho neza.

Inka ni nziza mu buzima bwa muntu, umworozi w'inka nta kibazo ashobora kuba yagira yaba ari amata, kuko inka ishobora no kugufasha kuba wahinga, kandi inka ni nziza itanga n'ifumbire tugafumbiza ibiryo byacu twahinze, kugira ngo bizakurane intungamubiri nyinshi.

Korora itungo ry'ihene ni byiza cyane bigira n'umumaro dore ko ihene iri mu nyamaswa zigira inyama zifite intungamubiri cyane mu muntu. Kandi ihene zigira n'amashereka buriya abantu benshi batazi ko amashereka yazo ari umuti.

Kimwe mu byiza byo korora ni iki ngiki. Twasuye ahagana i Muhanga umuturage woroye inka hano inka ye yari iri mu kiraro iri kurisha, atubwira ibyiza byayo y'uko iyi nka ijya imufasha kumuha amata, ikamufasha kuba yamuha ifumbire. Ndetse ko ateganya kugumya kwagura umushinga w'iwe kuko yabonye ari byiza.

Ingurube ni inyamaswa worora uri umuntu wihangana, ukaba wihanganira amafuti yayo, ukaba wihanganira umwanda wayo kandi ukaba witeguye kuba ugomba gukora isuku neza aho iri kuko ingurube ni inyamaswa igira amafuti kandi igira n'umwanda mwinshi.

Ubworozi bw'amatungo y'inka ni bwiza, inka ni nziza, ni itungo ryiza rigira isuku kandi ritanga umusaruro mwinshi, urugero riduha ifumbire, riduha inyama zo kurya kandi inka ishobora no kudufasha mu guhinga ibiribwa turya bya buri munsi.

Mushiki wanjye, ni umukobwa ukiri mutoya akunda korora ihene n'ayandi matungo magufiya, twamwegereye turaganira atubwira uburyo ubworozi bwamushimishije kandi bumuha n' inyungu, kandi bumufasha no gutunga abana biwe, mu bijyanye n'amikoro.

Ubworozi bw'amatungo y'inka ni bwiza. Aha ni ahagana i Muhanga aho twasuye umuturage wiyororera inka z'iwe mu rugo. Atubwira ko inka z'iwe zimufasha kuba zamuha ifumbire kandi zimufasha no kuba yakumva ko hari ikintu ashoboye kuba yakora kandi yakwitaho neza kikaba cyamubyarira inyungu.

Ubworozi bw'ingurube ni bwiza kandi burafasha cyane; ingurube ni itungo ryororoka cyane, rishobora kubyarira abana benshi icyarimwe kandi rigatanga umusaruro ufatika mu gihe kitari kinini. Dishishikarizwa korora kandi ndetse no guhinga kuko ni byiza ku buzima bwa buri muntu wese.

Ubworozi ni bwiza kandi burafasha, cyane cyane nko korora ingurube. Ingurube ni imwe mu nyamaswa zororoka cyane, kandi zitanga umusaruro mwiza kandi wihuse mu gihe gitoya. Ingurube iraryoha kandi igira n'umumaro mu mubiri w'umuntu. Ni byiza ko twayitaho, tukayigirarira isuku, ndetse tukanazigaburira neza.

Aha ni ku isoko rya Muhanga ahaherereye isoko ry'inka. Aho bagurisha amatungo y'inka kandi batubwira ko korora inka ari byiza, ari byo bituma baza ahangaha kandi ko bibaha umusaruro mwinshi, kandi mwizayiza. Inka ifasha ibintu byinshi ndetse itanga amata n'ifumbire kandi ishobora kuba yagufasha no mu buhinzi bwawe.

Dushimire ubuyobozi bwadutekerejeho bukadutera inkunga kuduha amatungo magufi kugira ngo natwe tugire icyo twimarira kandi igihe ni icyo tuyamarisha, amatungo magufi ni meza nk'ihene ziduha n'amata bita amashunshunu araryoha kandi akorwamo n'ibintu byinshi byiza kandi ni byiza no gutunga itungo rigufi mu rugo kuri rigufasha hari igihe riguha n'amafumbire.

Ubworozi bw'ingurube ni bwiza cyane buratubuka, kandi ingurube iri mu nyamaswa zitagorana korora cyane, kuko ingurube ni indyabyose, kandi ingurube ni nziza yororoka vuba mu gihe gitoya, kandi igira n'umusaruro munini cyane.

Ni byiza kubungabunga amatungo yacu tworora mu rugo, kugira ngo nayo abashe kuba yabaho neza, arare ahantu heza. Iki ni ikiraro cy'inkoko zacu, aho tuzororera ndetse ninabo akenshi turanazigaburira kugira ngo tubashe kuba twazitaho tumenye neza tuzikurikirane uko zaba zibayeho.

Itungo ry'ihene ni ryiza cyane, ihene iri mu tuyamaswa twiza dushimisha, kandi zitagorana mu kutworora, kandi ihene iri mu nyamaswa zitanga umusaruro, itungo ribana n'abantu, nta kibazo rigira ntiriryana kandi ni itungo rihorana amahoro, kandi nitungo rigira inyama iryoshye, itunga umubiri cyane.

Ubworozi bw'inkoko ni bwiza kandi buratubuka. Inaha twiyorera inkoko, ni zo zidutunze, ziratugaburira ziradutunga ndetse ikirenzeho natwe turazirya kandi ziraryoha. Kandi ni nziza ku buzima bwacu, ubuzima bwacu bwa buri munsi. Inkoko ni ikintu gikenerwa mu buzima bwose, kandi ziraryoha, rimwe kuribwa no kuzorora byose ni byiza.

Rimwe mu matungo afite akamaro kanini ku isi cyane cyane nk'inka, inka turayorora mu rugoka idufasha ibintu byinshi, inka iduha ifumbire, inka itugaburira inyama, inka ni itungo ryiza utunga mu rugo ukishima, kuko inka ni umusaruro munini cyane, itanga amafaranga, inka tuyikwa umukobwa, inka ni nziza cyane.

Gutera ibiti ni byiza, ibiti bimeraho imbuto kandi ibiti bitanga umwuka mwiza ku bantu. Ibiti rero tubyitabire tebitere yabari mu ngo zacu, tubungabunge n'amashyamba, cyane. Kubera ko urubuto rw'igiti ni rwiza kandi rufasha n'umubiri.

Aha mureba niho duhunika ibigori byacu bikaba byavamo ifu, iyo dukunda kwita akawunga benshi bakunda kurya, kandi ibi bigori mureba twanitse aha ngaha nibyo bivamo imbuto yongera igatuma mu kindi kigori gishobora kuba cyamera, kikaza kimeze neza kitumye.

Urubuto rwiza kandi rushimisha abantu bose, arirwo bita igisheke ruraryoha rugira intungamubiri, rwongera imbaraga mu mubiri, igisheke ni cyiza kirinda n'amadiyabete, igisheke kirafasha cyane dore ko ari nacyo dukoramo isukari, igisheke kinini cyiza mu buzima bwacu, tujye tukibungabunga tunacyiteho mu gihe twagiteye.

Amashu ni bimwe mu biribwa biryoha kandi bikunzwe cyane n'abatuye isi, kandi amashuri ikindi akarusho kayo ni uko dushobora kuyagaburira n'amatungo yacu magufiya harimo nk'inkwavu, kandi amashu araryoha aryoshya ibiryo ibyo ari byo byose, hano murebe rero ni ku isoko dukorera, mutugane tubagurisha amashu ni meza kandi araryoha.

Ibishanga si byiza aho ariho hose bitera imibu bishanga bituma n'ahantu dufite inzira zipfa. Ibishanga ntabwo ari byiza cyane kubera ko byica n'umwuka wo mu kirere. Kubera amazi aba asa nabi kenshi abantu tumenamo n'imyanda hakanuka. Ni ngombwa ko twabirwanya cyangwa se tukabyitaho bikaba byajyana n'amazi meza yabyara umusaruro.

Aha twasuye umumama wahinze akarima k'igikoni, yari ari kutubwira ibyiza by'akarima k'igikoni, atubwira ko akarima k'igikoni kamufasha cyane mu biribwa byiwe bya buri munsi, ndetse ko bimufasha no kuba yasevinga amafaranga yo kugura imboga, kandi atabura agatunguru ko guteka mu biryo.

Ubuhinzi bw'amashu ni bwiza, amashu araryoha kandi amashu aratubuka cyane, ku bantu babizi neza ni abantu bakunda kuyarya, amashu araryoha, yongera intungamubiri mu mubiri, amashu dushobora no kuyifashisha tuyatungisha zimwe mu matungo yacu nk'inkwavu, amashu ni meza cyane.

Guhinga ku materasi y'indingani ni byiza kandi cyane birafasha, birinda isuri, amazi kuba yatembana ibiribwa byacu, cyangwa kuba yaba menshi akica ibihingwa byacu, kandi guhinga ku amaterasi y'indinganire ni byiza cyane, bituma n'ibiribwa bikura neza, cyane cyane nk'ibijumba, imyumbati, ibintu nk'ibyo cyane cyane nk'amashu ndetse n'amakawa.

Aha ni ku ifamu yacu aho twororera inka zacu, twari twagize akabazo twitabaza guronome wacu aduha imiti twari turi kwita ku kanyana kacu, kari karwaye murabibona ko byadusabye ingufu nyinshi ariko twakwitayeho. Korora ni byiza, kandi birashimisha kandi biduha umusaruro, ntawutifuza kubona ibintu bye bigenda bitera imbere.

Aha nari ndi kumwe na mukuru wange turikuragira ihene zacu tuzijyana ahantu hari ubwatsi butoshye bwiza burimo intungamubiri. Aho ihene zacu zitazarya ibintu ngo bibe byazigiraho ikibazo bityo biyiviremo kuba yapfa, cyangwa se kuba yagira ibindi birwara ihura na zo. Biba byiza kugumana n'itungo ryawe ukaryitaho neza kandi urireba.

Aha ni ho twitabaje umuveterineri wacu ngo adufashe kuba yabyaza inka yacu, ibe yazana inyana imeze neza na yo tuyiteho nk'uko twita ku zindi nka zose, ni byiza korora inka kandi inka ni inyamaswa nziza, itungo ryiza umuntu ashobora kuba yakwitaho rikabyara inyungu kandi nziza cyane.

Aha twari twagiye kubaruza inka yacu ka veterineri, bayambika ibintu bita amaherena ni ibiyiranga, ibiyigize kugira ngo hagize n'ikibazo kiba wenda yabuze, ku buryo hatagira umuntu uyibona ngo ayiyoberwe ko ari iyo kwa runaka.

Izi ni zimwe mu nyamaswa zitangaje ziba ku isi, iyo bwije ntuzibona ariko iyo ari ku manywa ziragaragara, izi ni inyoni, ni icyo twita inyoni, utunyamaswa tuguruka mu kirere, tuba ari twiza cyane, dusa neza, turirimba neza cyane.

Aha ni mu Akagera aho twasuye inyamaswa tureba n'ibyiza bitatse Igihugu, aho tugera, tugasanga hari inyamaswa zitandukanye, tugiyeyo benshi tutazi ari na bwo bwa mbere tuzibonye, izo bakunda kwita za gasumbashyamba amajirafe, haba n'izindi nyamaswa nk'inkende, kandi haba n'ibiti n'amahumbezi meza, ni ahantu heza ho gutekerereza kandi hafasha no kuruhura mu mutwe cyane.

Imbwa ni itungo ryororwa kandi ribana n'abantu neza, imbwa ni inshuti nziza, imbwa ni inyamaswa igira amarangamutima, ni inyamaswa ushobora no kuba warindisha urugo rwawe, imbwa kandi biba byiza iyo uyitayeho, ukayigirira isuku, ukayikingiza, yarwara ukayivuza, na yo igufata nk'umuntu kandi na yo tugomba kuyifata nk'umuntu, tukayigaburira tukayitaho.

Ingwe ni inyamaswa itangaje iba ku isi, niyo nyamaswa ishobora kuba yagenda igenda yonyine, kandi ikunda guhiga. Bantu muze dutembere mu kagera, twirebere izi nyayamaswa zitangaje, imana yadushyiriye ku'isi, bino biri muri bimwe byiza nyaburanga, bitatse isi kandi utapfa kubona ahantu hose.

Iyi ni imwe mu nyamaswa nziza iri mu byiza bitatse isi bayita isha. Iyi nyamaswa izwiho kwiruka cyane kandi igira isuku ni akanyamaswa keza kajya gusa nk'ihene, bantu ndabashishikariza muze tujye twitabira gutembera mu mapaka kugira ngo tubone ibyiza biruta ku byo twabonaga.

Imwe mu nyamaswa nziza itangaje iri ku isi, ari yo bita isha abantu benshi kano kanyamaswa ntabwo bazi kugatandukanya n'ihene, ariko iyi ni inyamaswa yiruka cyane yibera mu mashyamba ntabwo ari itungo ryororwa, bayita isha kandi ni nziza cyane pe, ni akanyamaswa kagaragara neza kandi kanashimishije.

Gutembera ni byiza urabona twatembereye mu mashyamba, twishimira ibyiza biri mu gihugu, tureba tutazi nibyo dusanzwe tuzi, ya biba ari byiza birafasha kandi mu mutwe, yaba abaturarwanda cyangwa abanyamahanga, mwese mujye muze twirebere ibyiza bitatse igihugu cyacu.

Ibi ni byiza mu byiza nyaburanga biri mu gihugu. Hano twari twatembereye mu mashyamba yo mu Rwanda tureba ibyiza biri mu gihugu; ibiti bisa neza, ahantu hari umwuka mwiza ndetse tugenda turushaho no kunguka n'ibindi bintu tutari tuzi ,tutajya tubona mu baturage basanzwe.

Aha ni ahagana mu kagera aho twatembereye tukabona ibyiza bitatse igihugu, harimo nk'inyamaswa nk'inkende, ingagi, tubonamo intare, ndetse tubona hari n'ibiti byiza, ni byo twakuyemo n'isomo ryo kujya dukunda kwita ku bidukikije kuko bifasha ikiremwamuntu cyose.

Inkende n'imwe mu nyamaswa nziza ikunda gukina ikunda no gusabana n'abantu cyane nakanyamaswa gakubagana kandi gashimishije, nyabuneka ndacyabashishikariza kuza tukitabira kujya dusura amaparike cyane tukareba izi nyayamaswa ni nziza pe, nziza ziranashimisha.

Aha aha ni muri parike yacu y'Akagera. Aho twatembereye dushaka kubona ibyo dusanzwe tubona mu bitabo, dusoma mu bitabo dushaka kubyibonera amaso ku maso ndetse tunishimira yuko dufite n'igihugu cyiza kandi kidukunda cyita ku nyamaswa zibera mu mashyamba kandi kikita no ku bidukikije neza.

Aha ni muri parike yacu y'Akagera aho dukunda gutemberera turi benshi dushaka kureba bimwe mu bigize nyaburanga bigize igihugu, harimo nk'inyamaswa, inzovu, inkende, intare, tugashimisha amaso yacu tukagura n'imitekerereze yacu kuko bidufasha no kuruhuka neza.

Ni byiza kubungabunga ibidukikije cyane cyane harimo n'izi nyamaswa zitaba mu bantu zibera mu mashyamba, mu maparike, ibi kandi ni byiza no gutembera tukagera no mu maparike, tukirebera inkende nziza, ingagi nziza zitatse igihugu, igihugu kiba gifite n'ibyiza byinshi, tukareba nk'ubuzima bibayemo n'ubwo tubayemo, kandi bitanga n'ibyishimo.

Tumwe mu tunyamaswa twiza turi ku isi ziteye amabengeza kandi dushimisha cyane arizo bita inkende, ahangaha twari twasuye muri parike dusanga inkende zari ziri gukinira mu muhanda mu by'ukuri byadushimishije kandi twabonye ko gutembera ari bimwe mu bintu byiza byagirira akamaro umuntu.

Inkende ni zimwe mu nyamaswa nziza zikunzwe kandi zishimishije, zisetsa, zisanzura, zikunda gukina, natwe twari twatembereye muri parike y'Akagera dusanga hari inkende nziza cyane, yadushimishije, twayikunze kandi twishimira gutembera tureba ibyiza bitatse igihugu.

Imbwa ni itungo ryiza, rigira urukundo, imbwa ni ryo tungo rya mbere ribana n'umuntu bakishimana bakisanisha, bakamera nkaho ari umwe, imbwa igira amahoro, imbwa ntiyagusiga mu bibazo, imbwa ni itungo ryiza wagira n'inshuti, igira amarangamutima, kandi imbwa ni inyamaswa ishimisha cyane.

Zimwe mu nyamaswa Imana yaremye zitangaje, zibera mu kirere. Harimo nk'ibisiga, ibyiyoni biguruka n'amababa birara mu biti. Ntiwamenya ngo bibaho gute, birya gute. Inyamaswa nziza zitangaje zitatse Isi, dukwiye kuzibungabunga kandi tukaziha n'agaciro.

Tumwe mu tunyamaswa twiza turi ku Isi dutatse Isi, harimo izo bita inyoni. Ni inyamaswa zibayeho bitangaje, zibera mu biti kandi zibyuka zituririmbira uturirimbo twiza tukishima, kandi ni utunyamaswa abana bakunda cyane.